Ubwishingizi bw'ingwategura, ubwishingizi bw'ingwate ku bapiganira amasoko atandukanye, akozwe n'ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka radiyanti isezerano n'iseze, nimero za telefoni na kabiri mirongo itanu, magana arindwi na mirongo inani n'umunani magana ane, na mirongo irindwi ikenda magana atanu mirongo itatu na gatanu.

Urakaza neza kuri giti wodi, shyiramo nimero zawe za telefone kugira ubashe kwinjira cyangwa kwiyandikisha, muratanga nimero zanyu za telefone amategeko n'amabwiriza muraba muyemera komeza.

Igitebo cyuzuyemo udukumo two ku maboko tugiye dufite amabara atandukanye, harimo umuhondo, harimo icyatsi, umweru, umukara, ubururu, umutuku, umutuku wijimye n'ikigina.

Umwana w'umukobwa ufite ikirahure mu ntoki kirimo amata hirya hari amagambo avuga ngo ni amata meza ateguwe neza ashobora guhita anyobwa yujuje ubuziranenge.

Inyandiko y'ubutaka bufite agaciro ka miliyoni makumyabiri n'esheshatu n'ibihumbi magana icyenda na mirongo itanu mu mafaranga y'u Rwanda. Meterokare imwe ikaba ibarirwa ibihumbi mirongo irindwi, amafaranga y'u Rwanda. Ubutaka bwose bukaba bufite meterokare magana atatu mirongo inani n'eshanu.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ufite inoti z'amadolari y'amanyamerika zitandukanye harimo z'ijana n'iza makumyabiri hirya kari inyubako ikorerwamo ibintu byo kuvunjisha amafaranga agiye anyuranye.

Ibiciro by'igura n'igurishwa ry'amafaranga agiye anyuranye byo ku itariki cumi n'eshatu z'ukwa gatatu bibiri na cumi na karindwi, urugero nk'idorari ry'irinyamerika ryaguraraga magana inani mirongo itatu narindwi rikagurishwa magana inani n na mirongo ine n'atatu.

Nijoro, hanze y'inyubako yanditseho Simba saloon, ku irembo hakaba hariho ibyapa bigiye bitandukanye. Harimo n'ibyapa cya Bank n'igiti gifite amababi y'icyatsi.

Abantu babiri bicaranye bari guseka imbere ya mudasobwa, umwe ni igitsina gabo undi ni igitsina gore bambaye amadarubindi, ni ishati y'umweru bari kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'amafaranga.

Umukobwa uri kuri telefone wambaye ishati y'umweru uri kumwenyura. Hirya handitse "Gera ku nzozi zawe n'inguzanyo itazigamiye ya Access Bank ". Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero.

Umugabo n'umugore barahagaze bari kureba muri telefone, umugabo akaba yambaye ingofero y'umuhondo n'umupira w'umuhondo n'ubururu, umugore akaba yambaye amaherena akaba asa n'imibiri yombi. Hirya habo hakaba hari abana babiri bari kubareba.

Akazu k'umurongo w'itumanaho wa emutiyene, mo imbere hicayemo umukozizi wabo hanze hakaba hari umugabo ufite imisatsi mikeya, wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara uri kubaza amakuru.

Terefone y'umukara iri mu biganza iri kwerekana isaha ya saa kumi n'ebyiri n'iminota itanu ku mugoroba, yishyura amafaranga magana atanu mu Rwanda ukoresheje inite cyangwa se Momo cyangwa se gusubira inyuma.

Inyubako isze amarangi y'umweru ikaba igeretse, kabiri ikaba ikodeshwa iherereye i Kigali Kimironko, ifite ibyumba binini byo kuraramo n'ibyumba bine byo kwiherera.

Inzu isize yuzuye amarangi y'umweru amatara yo hanze ari kwaka, ikaba ifite imiryango y'ibirahuri gusa, ika ifunguye ukaba wayibona mu Rwanda ku madorari magana atatu y'abanyamerika.

Inzu yo guhahiramo irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imitobe n'amata bikorwa n'uruganda rw'Inyange amazi yo kunywa, umugabo wambaye ikositimu y'umukara uririnze umutekano.

Inzu yo guhahiramo irimo abantu batandukanye, igiye ifite ibice binyuranye, harimo ahantu h'imitobe, harimo igice cy'amavuta yo gutekaka, n'ahantu h'amasukari n'amashokora.